Igishushanyo cy'igiti gishushanyije ku gikuta cy'inzu kikaba cyarashushanyijwe n'umuhanga cyane mu bijyanye no gushushanya, akaba ari igiti cy'umwembe kuko kiriho imyembe imwe n'imwe yeze ku buryo ushobora kuyisarura ubundi ukarya.

Abana batoya batandukanye bambaye impuzankano y'ishuri, bakaba bari mu cyumba kinini cyane bisa naho ari mu ishuri ry'inshuke, bakaba bahagaze ku mikeka abandi bicaye bisa naho hari inyigisho bamaze guhabwa.

Udushushanyo turi mu ishusho y'abantu, akaba ari udushushanyo turi mu mabara agiye atandukanye, hari agashushanyo k'icyatsi, hakaba hari ak'umuhondo, hakaba hari ak'ubururu ndetse n'akandi k'umutuku, byose byakoze uruziga.

Ibikoresho byifashishwa mu gihe abana barimo kwidagadura. Kwidagadura ni ingenzi cyane ku bana, kubera yuko bikangura ubwonko bw'abana, bityo umwana agakura neza. Hirya y'aho hari inyubako yubatse mu buryo bw'igorofa bisa naho ari ho abana bigira.

Inyubako y'ubucuruzi, ikaba icururizwamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, ku muryango igice kimwe giteretseho agasafuriya, hejuru ariho n'igikombe, hakaba harimo n'umwuko, ku rundi ruhande hagiye hari udukapu dutandukanye, umuguzi ashobora kugura aje guhaha, imbere hakaba hateretse umufuka w'amakara bacuruza, imbere y'umufuka w'amakara hakabaparitse moto.

Akabati k'ibiti gateretse mu nyubako kakaba karimo ibitabo n'amakayi bitandukanye bisa naho ari akabati k'umwarimu, kakaba gateretse ahantu mu nguni hejuru ku nyubako hakaba harimo imyenge myinshi.

Ahantu hubatse mu buryo bugezweho, bisa n'aho ari mu ivuriro, hakaba hari ubusitani bufite indabo zicunze neza, bigaragara ko bazitaho cyane, hari umuntu urimo gutambuka mu rubaraza, bisa naho avuye gusaba serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Abantu batandukanye barimo kujya ahantu hari inyubako haparitse imodoka ndetse n'amamoto menshi, hakaba hari abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'amakabutura ya kake barimo kuhagana.

Abantu bahagaze imbere y'ishuri hakaba harimo n'umupolisi, hari umugabo urimo guca umugozi uri imbere y'umuryango, bisa n'aho ryari ishuri rishya ryubatswe, hanyuma bakaba baje kuritaha ngo barifungure ku mugaragaro, ubundi abanyeshuri batangire kurikoresha.

Irembo ry'ikigo cy'ishuri cya matimba cyigisha imyuga n'ubumenyi ngiro, akaba ari ikigo cyiza cyane gifasha urubyiruko kumenya uko bakihangira imirimo.

Abana benshi bapfukamye bafite ingwa mu ntoki bakaba barimo kwandika ku kibaho, akaba ari abana bambaye imyenda iri mu mabara agiye atandukanye bisa n'aho atari impuzankano y'ishuri, ikibaho barimo kwandikaho akaba ari ikibaho kitajya gikorerwa isuku ngo cyozwe.

Igishushanyo gishushanyijeho abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri, bakaba barimo gutoragura imyanda mu busitani mu rwego rwo kugira ngo barwanye imyanda ahubwo bagirire isuku ishuri cyangwa se ikigo cyabo, hari umwana uri gufata imyanda akayisuka ahantu hagenewe gusukwa imyanda.

Ameza ateretseho udukoresho twinshi dutandukanye. Akaba ari udukoresho twifashishwa mu gihe abana barimo gukina imikino itandukanye. Biga gutaka amabara bityo bigafasha umwana kugira ubwenge burushijeho kuko agenda afata utuntu dusa agenda aduhuza aduhuzahuza.

Abantu batandukanye bari mu nyubako bisa naho ari abayobozi, hakaba harimo abagabo benshi cyane ndetse n'abagore bakeya, hari umugore uri imbere wambaye ijire irimo amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, iruhande rwe hakaba hari abagabo bisa naho baje gusura iyi nyubako.

Abana benshi bicaye bakaba bambaye impuzankano y'umweru, abandi bambaye ubururu n'amapantaro ya kake ndetse abakobwa bakaba bambaye amajipo ya kake bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Imbere yabo hari umugabo ufite urupapuro mu ntoki ndetse n'indangururamajwi mu ntoki, bikaba bigaragara ko ari we uri kubagezaho ikiganiro.

Umubyeyi w'umumama uhagaze iruhande rwa senyege ziteye irangi ry'umutuku, akaba yambaye amaheherena ku matwi yarasukishije imisatsi, yambaye ishati y'amaboko maremare irimo amabara agiye atandukanye, urugero umweru ndetse n'icyatsi.

Abanyeshuri babiri umwe akaba ari umuhungu undi ari umukobwa bose bambaye impuzankano y'ishuri, bakaba bafite bibiliya mu ntoki n'udupapuro mu ntoki bisa naho barimo gusoma ijambo ry'Imana. Inyuma yabo hari akabati kabikwamo ibikoresho bitandukanye inyuma y'akabati ku gikuta hasize amabara atandukanye.

Irembo ririho urugi rwa metarike, mitarike akaba ari urugi rw'icyuma, bigaragara ko ari urugi rukinga ikigo cy'amashuri kigisha ibijyanye n'imyuga, hakaba hari igipangu cyubakishije amatafari agihometseho amakaro.

Umugabo uhagaze imbere y'umuryango w'ishuri akaba yambaye ijiri iri mu mabara y'icyatsi ndetse n'uturongo tumeze nk'ivu, mu imbere akaba yambaye agapira kajya gusa umutuku n'ipantaro y'umukara n'inkweto za supuresi, afite impapuro mu ntoki bisa naho hari ibintu runaka azaniye abanyeshuri.

Urubyiruko rurimo abasore n'inkumi rukaba rwicaye ahantu hamwe bigaragara ko hari ikiganiro runaka ruteze amatwi, bambaye impuzankano y'amashati y'umweru ndetse n'amapantaro ya kaki bigaragaza ko ari abanyeshuri.

Abanyeshuri bahagaze ahantu hamwe, bakaba bambaye impuzankano iranga ikigo bigaho ,inyuma yabo hari inyubako yubatse mu buryo bw'impara, iriho urugi rwa Metalic rusize antiruyi, hejuru yayo hakaba hari igisenge cy'amabati.

Inkono ibumbirwamo ibishushanyo byinshi bitandukanye, bakaba babibumba bakoresheje ibumba, mu rwego rwo kugira ngo baforome ibintu runaka. Hakaba hari ikintu kimeze nk'ikarayi, gikorerwamo ibyo bikorwa.

Ameza ateretseho idebe, bikaba bigaragara ko aya meza abumbirwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu ibumba. Ibumba ryifashishwa mu kubumba ibintu byinshi bitandukanye, urugero: nk'amatafari, amategura, amavase ndetse n'ibindi.

Akayira gashashemo amatafari, abumbwe muri sima, hakaba hari abakobwa babiri barimo kuhatambuka, barimo kuganira bisa naho bishimye, iruhande rw'akayira hakaba hari indabo zicunze neza, bigaragara ko zitabwaho cyane, inyuma y'izo ndabo hakaba hari igiti kigandaye cyane.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye ishati ijya gusa umutuku, ipantaro y'umukara, yambaye n'agapfukamunwa k'ubururu, bisa naho ari mu mu gihe k'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda, akaba asa n'umuyobozi urimo kubagezaho ikiganiro.

Inyubako yubatse mu buryo bw'igorofa, imbere yayo hari ubusitani bwitabwaho cyane, hakaba hari akayira kanyuzemo abanyamaguru batambukamo, iruhande rwako hari indabo ziconze neza cyane. Hirya mu busitani hari ikigega cy'amazi.

Ikibaho cyometse ku igikuta. Kuri icyo kibaho hakaba hariho shifo yifashishwa mu igihe barimo gusiba ibintu byanditswe ku ikibaho. Ikibaho ni ingenzi cyane kubera yuko cyifashishwa mu gihe abarimu barimo kwigisha abanyeshuri bityo bakajya bandika ku Ikibaho ibintu barimo kubigisha, maze abanyeshuri bakabibona mu buryo bworoshye.

Ibishushanyo bitandukanye, akaba ari ibishushanyo biri mu matsinda ane, hakaba hari itsinda ririho inanasi, imineke ndetse n'izindi mbuto zimeze nka pome, hasi hakaba hari izindi mbuto, hirya na ho hari inanasi n' imineke, hejuru hakaba hari n'akandi kantu kameze nk'urubuto cyangwa urugemwe.

Ibikoresho bibumbye mu ibumba bakaba babifata bakabitwika hanyuma bakajya babyifashisha mu gukora ibintu byinshi bitandukanye, hano hateretse igikombe cyabumbwe mu ibumba mu rwego rwo kugira ngo kizage kifashishwa.

Intebe y'ubururu yegamirwa ndetse ifite n'ahantu umuntu atereka utuntu cyangwa se ashobora kwandikira mu gihe ayicayeho, iteretse imbere y'umuryango w'inyubako akaba ari umuryango wiganjeho ibirahure, imbere yaho kandi hakaba hateretse indobo y'umutuku.